Urujya n'uruza rw'abana baturutse mu bice bitandukanye bari kuvoma amazi meza kandi afite isuku, bambaye imyenda yiganjemo ubururu umweru ndetse n'umukara.

Icyumba kinini gifashirizwamo abarwayi kirimo umuganga, umukobwa ndetse n'umwana urimo kwitabwaho kugira ngo ahabwe serivisi nziza kandi inoze.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, umukara, umutuku n'ubururu ubona ko bishimye.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda y'umweru, umuhondo ndetse bafite ibikoresho by'isuku kandi bigezweho.

Ihuriro ry'abanyabuzima bashinzwe kurinda abarwayi, aho bafashwa n'inzego za leta ndetse bagahabwa ibikenerwa byose kugira ngo bafashe abarwayi.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye ku iriba, baje kuvoma amazi meza, bafite ibikoresho byiganjemo amajerekani, bambaye imyenda y'umweru ndetse n'umutuku.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye biganjemo urubyiruko, baje kuvoma amazi meza kandi afite isuku kugira ngo birinde indwara zituruka ku mwanda.

Icyumba kinini kirimo abana bambaye imyenda y'ubururu, umweru n'umukara, cyiganjemo ibara ry'ubururu gisakaje amabati atukura, aho abana bahuriye impande n'impande bahurira.

Umubyeyi wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umutuku, ubururu ndetse n'icyatsi uhetse umwana mu mugongo, urimo gusukura ibikoresho bye ndetse anabyoza.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, aho bahabwa serivise nziza z'ubuvuzi, ziganjemo ubuvuzi bw'amenyo, ubw'umutima ndetse n'impyiko, bagataha bishimye.

Icyumba kinini cyateraniyemo abantu batandukanye, bambaye imyenda yiganjemo umweru, ubururu, bafite imisatsi myinshi bandika mu bitabo ndetse ubona ko bishimye.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, higanjemo abagabo, abagore ndetse n'abana, aho bahurira ndetse bakiga ku nsanganyamatsiko zitandukanye.

Icyumba kinini, cyateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye, aho baje gusaba serivisi y'ubuvuzi, ndetse bakayihabwa. Bagataha bishimye kandi banezerewe.

Urujya n'uruza rw'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, aho bahuriye ku iriba, banywa amazi kandi ubona ko bafite inyota kandi bakeneye ubafasha.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye ku iriba baje kuvoma amazi, bafite amajerekani menshi, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, umuhondo, umukara ndetse n'icyatsi.

Umwana w'umuhungu wambaye umupira wicyatsi n'ipantaro y'umukara, uhagaze iruhande rw'iriba rinini, rikoranye iterambere ndetse nubuhanga, kugira ngo abone amazi meza kandi asukuye.

Urujya n'uruza rw'bagore bari mu kazi gasaba ingufu, bambaye imyenda y'ubururu, icyatsi, umukara, bishimye kandi banezerewe.

Icyumba kinini kirimo abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bicaye ku meza ubona ko barimo kurya ibiryo byiganjemo ibishyimbo, akabunga ndetse n'imboga.

Umwana w'imyaka itanu, wambaye umupira utukura, ufite igikombe ndetse ashyiramo amazi yo kunywa kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Inyubako nini yateraniyemo abayobozi batandukanye, aho biga ku nsanganyamatsiko zitandukanye ndetse hanarebwa uburyo bakemura ibibazo biri mu baturage.

Icyumba kinini cyateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, umukara, icyatsi ndetse n'ubururu, aho baje kwaka serivisi y'ubuvuzi kandi inoze.

Icyumba cyateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye, biganjemo abana bato, ndetse barimo gufashwa n'abasaza, baberekera ndetse babagira inama y'ibyo bakora.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, higanjemo abana, abasore, abakobwa ndetse n'abagore, bambaye imyenda y'umweru, umuhondo ndetse n'umukara.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mubi bice bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo umukara, umweru, ubururu n'umuhondo bahagaze imbere y'inyubako nini kandi ndende.

Icyumba kinini kirimo abayobozi baturutse mu bice bitandukanye, biganjemo abambaye imyenda y'umukara, umweru ndetse n'umuhondo, barimo guhabwa inama ndetse n'amahugurwa ku bintu bitandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bicaye impande n'impande, aho bahurira baje gushaka amazi yo gukoresha mu buzima bwa buri munsi ndetse bakagirwa n'inama yo kuyakoresha neza kugira ngo babone ibikoresho byabo bifite isuku kandi bikeye.

Icyumba kinini cyateraniyemo abantu batandukanye, bambaye imyenda y'ubururu, umweru ndetse aho bahabwa serivisi nziza kandi inoze.

Urujya n'uruza rw'abantu bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, ubururu, umukara n'umuhondo, bahurijwe hamwe n'insanganyamatsiko zitandukanye ndetse ubona ko bishimye.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye ku iriba kugira ngo bavome amazi meza kandi afite isuku, bityo hakirindwa cyangwa se hagakumirwa umwanda.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, intebe, ameza byiganjemo amabara y'umweru, umukara, ubururu ndetse n'umutuku.

Umwana wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umutuku n'umuhondo, uri ku iriba arimo kuvoma amazi kugira ngo arwanye indwara zituruka ku mwanda ndetse n'izindi zitandukanye.

Umwana wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, icyatsi n'umukara, urimo kuvoma amazi yifashishwa mu gusukura ibikoresho bitandukanye ndetse no guteka.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho abantu baturutse mu bice, impande n'impande bahurira ndetse bagafashwa hagendewe ku bimenyetso bagiye bagaragaza ndetse bakagirwa n'inama y'uburyo bakwirinda.

Abaganga barimo kuvura umubyeyi utwite bareba niba umwana agiye kuvuka cyangwa se bamwongerera ibise kugira ngo avuke neza bityo bigatuma umubyeyi abyara atababaye.

Icyumba kinini cyateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye biganjemo abaganga ndetse n'abarwayi bambaye imyenda y'ubururu, umutuku, umukara ndetse n'umweru.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, umutuku, umukara, umuhondo n'ubururu, aho bahabwa serivise nziza kandi inoze.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye mu nyubako nini, itangirwamo serivisi zitandukanye z'ubuvuzi n'ubucuruzi, higanjemo abagabo n'abagore, bambaye imyenda y'umuhondo, umukara ndetse n'ubururu.

Inyubako nini, ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, harimo siporo, inama ndetse n'ubucuruzi, aho abantu baturutse mu bice bitandukanye, baza bagahabwa serivisi nziza.

Icyumba kinini cyateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye, abagabo, abagore ndetse n'urubyiruko kugira ngo bite ku ndwara yadutse n'uburyo bayirwanya.

Umwana wambaye imyenda itukura, ufite imisatsi myiza iboshye, urimo kuvoma amazi ndetse ubona ko yishimye kandi anezerewe bityo bikamufasha kwirinda indwara zitandukanye, zituruka ku mwanda kubera ko akaraba neza kandi n'isabune.

Umugabo ufite ijerekani wambaye imyenda y'umweru n'umukara, uhagaze iruhande rw'inyubako nini isakaje amabati kandi yubatswe mu buryo bugezweho kandi bwa kinyamwuga.

Icyumba kinini cyateraniyemo abarwayi bavuye mu bice impande n'impande, aho umuganga abasuzuma ndetse akabagira n'inama y'uburyo bakoresha imiti kugira ngo birinde n'izindi ndwara zitandukanye.

Umusore urimo kunywa amazi wambaye imyenda yiganjemo ibara ry'ubururu, ku iriba rifite amazi meza kandi agezweho kugira ngo asukure ibikoresho ndetse afashe abaturage kugira isuku.

Urujya n'uruza rw'abana bahuriye ku iriba, bambaye imyenda y'umutuku, ubururu, umukara, ndetse n'umweru, ubona ko bishimye, kandi banezerewe.

Ibyuma bitandukanye bikoreshwa mu buvuzi, byiganjemo amabara y'umukara, umweru n'ubururu, aho abaganga babikoresha mu gufasha abarwayi.

Urujya n'uruza rw'abana baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umutuku, umuhondo, umweru n'umukara aho bahuriye ku iriba baje kuvoma amazi.

Inyubako nini yateraniyemo abantu baturutse mu bica impande n'impande, bambaye imyenda yiganjemo umweru, umukara n'umuhondo, baje gushaka serivisi y'ubuvuzi bakayihabwa ndetse bagataha bishimye.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye ahantu, aho umuganga abafasha ndetse akabagira inama y'uburyo bakomeza kwirinda indwara zitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo umweru ndetse n'umutuku.

Inyubako nini, irimo ibikoresho bitandukanye, ikorerwamo imirimo myinshi iteza abantu imbere, harimo imyitozo ngororamubiri, ndetse n'ibindi bitandukanye.

Umukobwa wambaye ikoti n'ipantaro byiganjemo amabara y'umukara n'umutuku, wicaye iruhande rw'iriba ritanga amazi meza kandi asukuye.

Icyumba kinini kirimo abantu baturutse mu bice bitandukanye, aho bahabwa ubujyanama ndetse n'amahugurwa ku bijyanye n'indwara zandura ndetse n'uburyo zakwirindwa.

Abagore bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umuhondo, umukara, ubururu n'umutuku bahuriye hamwe ku nsanganyamatsiko zitandukanye ubona ko bishimye.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye, bahuriye mu nyubako nini, aho baganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye ndetse hanarebwa uburyo bazishyira mu bikorwa.

Ihuriro ry'abaganga baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu, bambaye impuzankano yiganjemo amabara y'umweru, umukara ndetse n'umuhondo, aho bahuriye bakiga ku bibazo bitandukanye.

Ihuriro ry'abaganga baturutse mu bice bitandukanye, bambaye impuzankano y'ubururu n'umweru, aho abarwayi baturutse mu bice impande n'impande, baza bagahabwa ubufasha na serivisi nziza.

Umuganga wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru n'umukara, urimo gutera urushinge umurwayi ndetse amugira inama y'uburyo yakirinda ndetse agakoresha imiti yahawe neza.

Urujya n'uruza rw'abantu batandukanye, bahuriye mu nyubako nini, biga ku bibazo ndetse harebwa uburyo byakemurwa, hakurikijwe imyanzuro bafatiye mu nama.

Icyumba kinini kirimo umugabo uri kumwe n'umwana wambaye imyenda isa irimo ibara ry'umuhondo, ubona ko amupimisha ibiro kugirango amenye uko ahagaze.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, baje kuvoma amazi, bambaye imyenda y'umutuku, umukara n'umuhondo, ubona ko bishimye kandi banezerewe.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho ababyeyi ndetse n'abana baturutse mu bice bitandukanye, bahabwa serivisi ndetse bagataha bishimye kandi banezerewe.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, baje guteranira hamwe kugira ngo bige ku nsanganyamatsiko zitandukanye, aho batanga ibitekerezo ndetse hakarebwa ibibazo bafite kugira ngo babashe gukira.

Icyumba kinini cyateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye, higanjemo abarwayi ndetse n'abaganga, gikorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi kandi byiza.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi aho abarwayi n'abaganga bahurira bakavurwa ndetse bagahabwa ubufasha ku burwayi babasanganye.

Umukobwa wambaye umupira w'umutuku n'ijipo y'umukara wicaye iruhande rw'amabasi abiri ndetse n'ijerekani irimo kuvomerwamo amazi ku iriba ubona ko yishimye kandi anezerewe.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, cyiganjemo abagabo, abagore n'abasaza, bambaye imyenda y'umukara, ubururu, umweru ndetse n'icyatsi.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, kirimo abagore biganjemo abaganga ndetse n'abaforomo, bambaye imyenda y'umweru ndetse n'umukara.

Icyumba kinini cyateraniyemo abayobozi batandukanye aho bahurira ndetse bakiga ku bibazo bitandukanye, cyiganjemo amabara y'umutuku, umweru, ubururu ndetse n'umukara.

Urujya n'uruza rwabantu bahuriye mu nama, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu, umutuku, umweru, icyatsi bateraniye hamwe kugira ngo bige ku nsanganyamatsiko zitandukanye.

Urujya n'uruza rw'ababyeyi baturutse mu bice bitandukanye aho bahuriye ku bitaro kugira ngo bafashwe bahabwe serivisi z'ubuvuzi, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umuhondo, umukara, ubururu ndetse n'icyatsi.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye bambaye imyenda y'umweru ndetse n'ubururu aho batanga ndetse bakanahabwa serivisi nziza y'ubuvuzi.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, ikinirwamo umupira w'amaguru, uw'amaboko ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye bibera muri iyi nyubako, aho abantu bishima kandi banezerewe.

Icyumba kinini cyateraniyemo ababyeyi bafite abana ndetse bambaye imyenda yiganjemo umuhondo, icyatsi n'ubururu aho bahererwa serivise nziza.

Umugabo wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara n'umweru n'ubururu aho ahagaze iruhande rw'ibiti binini ndetse byiganjemo imyembe ndetse na avoka.

Urujya n'uruza rw'abantu bateraniye hamwe kugira ngo bige ku bibazo bitandukanye, iby'isuku ndetse n'ibindi bitandukanye, aho abarwayi bavurwa ndetse bakagirwa n'inama.

Urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bifite imitwaro, aho bagemura ndetse bakanegereza ibicuruzwa abaturage kugira ngo babibone bihuse kandi bitabagoye.

Urujya n'uruza rw'urubyiruko baje mu bikorwa bitandukanye, aho bahurira hamwe bakiga ku nsanganyamatsiko zirebana n'umunsi kugira ngo harebwe icyabateza imbere.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, cyiganjemo abaganga bambaye impuzankano y'ubururu ndetse n'umweru, aho bafasha abarwayi ndetse bakabagira n'inama y'ibyo bakora kugira ngo birinde.

Icyumba kinini cyateraniyemo abaganga n'abarwayi baturutse mu bice bitandukanye, aho bagaragaza indwara bafite bagahabwa imiti n'ubundi bufasha bw'ibanze.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi zitandukanye, cyahuriyemo abantu baturutse mu bice impande n'impande biganjemo abagore, abagabo. Bambaye imyenda y'umweru, umukara ndetse n'ubururu.

Ihuriro ry'abana baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, ubururu, umukara n'umuhondo, bahuriye mu cyumba kinini cy'inama.

Icyumba kinini cyateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda y'umweru, umukara, ubururu ndetse n'umuhondo, aho bafatanya ndetse bakagera ku ntego bihaye.

Icyumba kinini kiganjemo abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda y'umweru, ubururu, icyatsi n'umuhondo ndetse ubona ko bishimye.

Icyumba kinini gikorerwamo serivisi z'ubuvuzi, cyiganjemo abana bambaye imyenda y'umweru. umukara ndetse n'umuhondo, aho bafashwa kandi bagataha bishimye.

Icyumba kinini cyateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo icyatsi, umweru ndetse n'umutuku, barimo kwiga ku nsanganyamatsiko zitandukanye.

Icyumba kinini kirimo gukorerwamo ibikorwa bitandukanye; iby'ubuvuzi, ubucuruzi aho abantu baturutse mu bice impande n'impande bahurira, bakiga ku bibazo bitandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye bambaye imyenda yiganjemo ubururu, icyatsi, umuhondo, umukara, bambaye ingofero nziza kandi zigezweho.

Umugore ufite indobo ebyiri, umuhondo ndetse n'umutuku, wambaye imyenda myiza, uvuye gushaka amazi, kugira ngo akoreshe ndetse anasukura ibikoresho byo mu rugo.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, biganjemo abagore bambaye impuzankano y'ibara ry'ubururu, abona ko bishimye kandi banezerewe.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye aho bahurira bakiga ku nsanganyamatsiko ndetse banareba icyabateza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Icyumba kinini, cyahuriyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye, harimo abagabo, abagore, bambaye imyenda, yiganjemo umutuku n'umweru.

Ihuriro ry'abana baje kuvoma amazi, bambaye imyenda y'umweru, ubururu, bari gufashwa n'umugore wambaye imyenda y'umukara ndetse n'umweru, ubona ko bishimye kandi banezerewe.

Ihuriro ry'abaganga bahuriye mu cyumba kinini, aho biga ku bibazo bijyanye n'indwara zandura kugira ngo hafatwe imyanzuro ndetse n'uburyo zakwirindwa.

Icyumba kinini cyahuriyemo abarwayi batandukanye, kiri gutangirwamo serivise z'ubuvuzi kugira ngo basuzume umurwayi, bamuhe imiti ndetse n'ubujyanama ku ndwara bamusanganye.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye biganjemo abagore n'abana, bahagaze mu ndabo nziza kandi zigezweho, irimo ibara ry'icyatsi.

Urujya n'uruza rw'abantu baje ku ivuriro, gusaba serivisi y'ubuvuzi, harimo abagabo abagore, abana ndetse n'urubyiruko aho basuzumwa ndetse bagahabwa imiti.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, harimo siporo, inama, amahugurwa ndetse n'ibindi, aho abantu baturutse mu bice bitandukanye, bunguka ibitekerezo kandi bakagirwa n'inama.

Icyumba kinini kirimo abana baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda y'umweru n'ubururu, iruhande rwabo hari ababyeyi ubabona ko bahuriye mu bikorwa bitandukanye kugira ngo bige ku bibazo bifite ingaruka muri sosiyete.

Urujya n'uruza rw'abana baturutse ku bigo by'amashuri bitandukanye, aho bahurira bagakora imyitozo ngororamubiri ndetse bagakina umupira ndetse kugira ngo bishime kandi banezerwe.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bikorwa bitandukanye baje kuvoma amazi meza kugira ngo birinde indwara zitandukanye zituruka ku mwanda.

Urujya n'uruza rw'abantu batandukanye biganjemo urubyiruko ndetse n'abana batoya, aho bahurira ndetse bavuye mu bicaye mde n'impande baje gushaka amazi yo gukoresha.

Umugore utereye umwana wambaye imyenda yiganjemo umuhondo, icyatsi ndetse n'ubururu, uri mu nzu nini ubona ko yahuriwemo n'abantu benshi.

Icyumba kinini cyateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye, cyiganjemo intebe ameza ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye, kugira ngo bibafashe kwiteza imbere.

Umukobwa wambaye imyenda yiganjemo umweru n'umutuku, ufite imisatsi myinshi, urimo kuvoma ku iriba rigezweho rya kijyambere, ufite jerekani y'umuhondo ndetse n'indi y'umweru.

Icyumba kinini cyateraniyemo abayobozi baturutse mu nzego zitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo; umukara, umweru n'umutuku, aho biga ku bibazo bitandukanye kandi bifitiye akamaro abaturage.

Icyumba kinini giteraniyemo abarwayi ndetse n'abaganga babafasha, cyiganjemo amabara y'ubururu, umuhondo, umweru n'icyatsi ndetse ubona ko bitabwaho cyane.

Icyumba kinini cyateraniyemo abarwayi ndetse n'abaganga, kiganjemo amabara y'umweru, ubururu n'icyatsi aho batangira serivise nziza kandi inoze.

Urujya n'uruza rw'abantu batandukanye bambaye imyenda y'ubururu, umukara n'umweru aho bari gufasha abana mu kubaha serivisi nziza zubuvuzi.

Ihuriro ry'abanyabuzima bateraniye hamwe, biga ku bibazo bijyanye n'indwara zandura ndetse n'uburyo barwanya ubwandu bushya, n'ubujyanama bwagirwa abarwayi.

Ihuriro ry'abana baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda y'umweru ndetse n'umukara n'amasogisi meza cyane kugira ngo birinde umwanda kandi base neza.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye mu isoko baje guhaha ibicuruzwa bikomoka ku buhinzi: nk'intoryi, inyanya, karoti, kugira ngo babashe guteka ndetse ibyujuje ubuziranenge.

Ihuriro ry'abayobozi bafite insanganyamatsiko bigaho, bicaye iruhande rw'inyubako yiganjemo amabara y'ubururu, isakaje amabati atukura.

Urujya n'uruza rw'abana bahuriye ku iriba, bambaye imyenda y'umutuku, ubururu n'umukara, ubona ko bishimye kandi banezerewe, bagasubira iwabo bishimye.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi cyiganjemo abagabo, abagore ndetse n'abana bambaye imyenda itukura, umuhondo ndetse n'ubururu.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye nka siporo, ubucuruzi, ubuvuzi, yiganjemo amabara y'umukara n'umweru, aho abantu bahurira ndetse bagakora ibikorwa bifitiye igihugu akamaro.

Icyumba kinini gitangirwamo serivise z'ubuvuzi, aho abantu baturutse mu bice impande n'impande bahurira ndetse bagahabwa ubufasha, hagendewe ku bimenyetso bagaragaje kandi bagahabwa n'inama nziza z'uburyo bakwirinda.

Icyumba kinini kirimo abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, umutuku, ubururu ndetse bafite imisatsi myinshi.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, ubururu ndetse n'umukara. Ubona ko bahurijwe hamwe n'insanganyamatsiko imwe.

Umubyeyi uteruye umwana wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru n'umukara, umugore ufite imisatsi myinshi ubona ko yishimanye n'umwana.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, bari mu nyubako nini kandi babona ko bahurijwe hamwe n'ikintu gikomeye kandi gifitiye igihugu akamaro, bambaye imyenda y'umutuku ndetse n'icyatsi.

Icyumba kinini kirimo abantu baturutse mu bice bitandukanye biganjemo urubyiruko, abagore, abagabo ndetse n'abasaza, bambaye imyenda yiganjemo ubururu umukara ndetse n'umweru.

Abana bambaye imyenda yiganjemo umutuku, ubururu, umweru n'umukara bahuriye ahantu hatandukanye kugira ngo bageze ibibazo byabo ku bayobozi.

Ababyeyi babiri umwe ateruye umwana, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu, umuhondo, umweru ndetse bafite imisatsi myinshi.

Icyumba kinini cyateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye biganjemo abasore ndetse n'abakobwa bambaye imyenda y'umukara ndetse n'ubururu n'umweru.

Umusore wambaye umupira wiganjemo amabara y'ubururu n'umweru, wicaye mu cyumba wigunze kandi ubona ko afite ibibazo bitandukanye by'umubiri.

Urujya n'uruza rw'abayobozi bateraniye hamwe, biga ku kibazo cy'indwara zandura ndetse n'izitandura, hafatwa ingamba y'uburyo zakwirindwa ndetse zikanahashywa burundu.

Urujya n'uruza rw'ababyeyi baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo umutuku, ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, biteze ibitambaro byiza mu mutwe kandi bigezweho.

Imodoka nini yiganjemo amabara y'umweru, ubururu n'umukara, aho itwaye imitwaro myinshi kandi iremereye kugirango itange serivisi nziza kubaturage.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu myitozo ngororamubiri bambaye imyenda yiganjemo umukara, umweru n'umuhondo, ufite imisatsi myinshi kandi myiza.

Icyumba giteraniyemo abantu batandukanye, barimo kwiga ku kibazo kijyanye n'imihindagurikire y'ikirere ndetse hanafatwa ingamba y'uburyo bakwirinda ibihumanya ikirere.

icyumba kinini cyahuriyemo abayobozi baturutse mu nzego zitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, umutuku, umukara ndetse n'ubururu bishimye kandi banezerewe.

Umukobwa ufite imisatsi myinshi, wambaye imyenda yiganjemo umweru ndetse ubona ko yishimye kandi anezerewe, bityo bikamufasha kongera iminsi yo kubaho.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye, aho bahurizwa hamwe n'insanganyamatsiko maze hagatangwa ibitekerezo bitandukanye kugira ngo babashe kugera ku ntego bihaye.

Icyumba kinini kirimo abana bambaye imyenda y'umutuku, umweru ndetse n'umukara, bahurijwe hamwe n'insanganyamatsiko imwe, kugirango bakemure ibibazo bitandukanye.

Umugabo wicaye hasi wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umutuku, ubururu, wambaye amapingu ubona ko afite amakosa menshi.

Umukecuru wambaye imyenda y'icyatsi, w'imibiri yombi, ubona ko yishimye kandi anezerewe, bitewe na serivisi nziza yahawe kandi agataha yishimye.

Icyumba kinini cyateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye, biganjemo abagabo, abagore ndetse ubona ko bishimye kandi banezerewe.

Umugore wambaye ikanzu nini yiganjemo amabara y'umuhondo, ubururu wambaye indorerwamo z'amaso ufite imisatsi myinshi kandi ubona ko yishimye.

Umukobwa ufite imisatsi myinshi kandi y'umukara wambaye imyenda y'ubururu n'umutuku, w'imibiri yombi, ubona ko ari mu cyumba kinini cyiza kandi yishimye.

Umusaza wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umuhondo, umukara, ufite imisatsi n'ubwanwa byinshi, ubona ko ari mu myitozo ngororamubiri, yishimye.

Umusaza wambaye ishati y'umweru n'umukara, witeye umwitero w'umuhondo, wambaye ingofero nziza ndetse ufite inkoni mu ntoki, ubona ko yishimye.

Umugabo wambaye imyenda yacitse, ufite imisatsi myinshi, iruhande rwe, hari kaburimbo yiganjemo amabara y'umweru n'umukara ndetse wambaye inkweto zacitse.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, aho biga ku nsanganyamatsiko zitandukanye ndetse banareba icyabateza imbere kugira ngo bakomeze kubaho neza.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye hamwe, bambaye imyenda yiganjemo umukara, umuhondo, umutuku ndetse n'icyatsi, ubona ko bishimye.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bikorwa bitandukanye, harimo iby'umuganda, ubuvuzi ndetse n'ubucuruzi, aho bishimye kandi banezerewe.

Icyumba kinini cyateraniyemo abantu baturutse bicaye impande n'impande, bambaye indorerwamo z'amaso ndetse n'imyenda yiganjemo amabara umweru, umutuku ndetse n'umukara.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye baje gusaba serivisi y'ubuvuzi higanjemo abasaza n'abakecuru n'abana, aho bahurira ndetse bagahabwa ubufasha.

Umugore wambaye imyenda yiganjemo umukara, umuhondo; yikoreye igitebo kinini kirimo ibijumba; ubona ko abijyanye ku isoko kandi ashaka amafaranga.

Umugore uteze igitambaro mu mutwe, uteruye umwana ndetse iruhande rwe hicaye umuhungu mutoya, wambaye imyenda y'umweru, umukara ndetse n'umuhondo.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye, higanjemo abakobwa bambaye imyenda y'umweru, umukara ubabona ko bishimye kandi banezerewe.

Umukobwa wambaye imyenda yiganjemo umukara n'umweru wishimye kandi anezerewe, ufite imisatsi myinshi kandi myiza ndetse wambaye agakomo ku kaboko.

Umugabo wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umutuku, wambaye ipantaro nziza y'umukara ndetse ubona ko yishimye kandi anezerewe, iruhande rwe hari ibiti binini kandi bitoshye.

Icyumba kinini cyateraniyemo abantu baturutse mu bice, impande n'impande, aho baganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye ndetse bagashaka igisubizo cy'ibibazo biri muri sosiyete.

Icyumba kirimo ababyeyi babiri bambaye imyenda yiganjemo umutuku n'umukara, aho baganira ndetse bungurana ibitekerezo kugira ngo bamenye buri umwe ikibazo afite.

Inyubako nini ifite ibara ry'umuhondo ndetse n'umweru, ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubuvuzi, ubucuruzi ndetse n'ibindi bitandukanye.

Icyumba kinini cyiganjemo abagabo, abagore ndetse n'urubyiruko, kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga ari byo: televiziyo, radiyo ndetse n'ibindi bitandukanye.

Icyumba kinini cyateraniyemo abanyeshuri ndetse n'umwarimu wabo, aho abaha amasomo ndetse akabagira inama y'uburyo bakiga neza kandi bagatsinda.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, irimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, ameza, intebe, televiziyo ndetse n'ibindi bitandukanye.

Umukobwa mwiza, wambaye igitambaro cy'umweru n'irengeri y'umweru, w'imibiri yombi, ufite uburoso ndetse ubona ko yita ku menyo ye kugira ngo yirinde indwara zitandukanye.

Icyumba kinini giteraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye, baje gusaba serivisi y'ubuvuzi, aho bafashwa bagataha bishimye kandi banezerewe, bityo bikabafasha kwirinda ndetse no gukumira izindi ndwara.

Umwana w'imibiri yombi ufite imisatsi myinshi, wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umuhondo n'ubururu urimo kwitabwaho n'umuganga w'inzobere mu bijyanye n'ubuvuzi bw'amenyo.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, kirimo ibikoresho bitandukanye bikoreshwa n'abaganga, cyiganjemo amabara y'umweru, ubururu ndetse n'umukara.

Icyumba kinini gikorerwamo ibikorwa bitandukanye, ubuvuzi, ubucuruzi, ubujyanama ku ndwara zitandukanye ndetse aho abarwayi baturutse, mu bice impande n'impande bahabwa ubufasha n'ubujyanama ku ndwara barwaye.

Ihuriro ry'abakobwa n'abasore, bambaye imyenda y'umweru ndetse n'umukara, bafite imisatsi myiza, b'imibiri yombi ubona ko bishimye.

Umusore wambaye ikoti ryiganjemo amabara y'ubururu n'umukara, ufite ubwanwa bwinshi ndetse w'imibiri yombi, ubona ko yishimye kandi anezerewe.

Icyumba kinini cyateraniyemo abantu baturutse ibice bitandukanye, biganjemo abagabo, abagore ndetse n'abana, bari gufashwa n'abaforomo bambaye imyenda y'umweru.

Abana biganjemo abi myaka umunani bafite uburoso ndetse ubonako babukoresha basukura amenyo aho abantu birinda indwara ndetse bagakumira indwara zitandukanye.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, byiganjemo amabara y'umweru, umutuku n'umukara, aho abantu baturutse mu bice bitandukanye bahurira bagakora imyitozo ngororamubiri.

Umugabo wambaye indorerwamo z'amaso ufite imisatsi myinshi, wicaye iruhande rwa mudasobwa, ubona ko ari kugenda yiga ku bikoresho by'ikoranabuhanga ndetse n'ibindi bitandukanye.

Icyumba kinini, gitangirwamo uburere ku banyeshuri, aho abanyeshuri babaye abambere, bahabwa ibihembo. Ndetse bagahabwa n'ubujyanama ku bijyanye n'amasomo.

Icyumba kinini giteraniyemo abanyeshuri, bambaye impuzankano zimwe, bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse ubona ko bishimye.

Icyumba kinini cyiganjemo ibikoresho by'ikoranabuhanga, aho abantu baturutse mu bice bitandukanye bahurira ndetse bagakora imyitozo ngororamubiri kugira ngo bagabanye umubyibuho ukabije.

Inyubako nini irimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga byifashishwa mu buvuzi, byiganjemo amabara y'umweru n'umukara, aho abarwayi bafashwa ndetse bagahabwa n'ubujyanama.

Icyumba kinini cyahuriyemo umubyeyi n'umwana we, bafite imisatsi myinshi, bambaye imyenda yiganjemo ubururu, umutuku ndetse n'umweru.

Umwana ufite imisatsi myinshi w'imibiri yombi wambaye imyenda yiganjemo umweru, umuhondo, aho abaganga b'inzobere mubijyanye n'ubuvuzi bw'amenyo bari kumwitaho.

Umukobwa mwiza ufite amenyo y'umweru w'imibiri yombi ufite imisatsi myinshi, wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umuhondo n'umweru aho ari kwita ku menyo ye.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byiganjemo amabara y'umuhondo, umweru, ubururu ndetse nicyatsi, aho abantu baturuka mu bice bitandukanye bahurira bagakora imyitozo ngororamubiri.

Icyumba kinini kirimo umuganga ndetse n'umurwayi, uri guhabwa serivisi y'ubuvuzi kugira ngo akire indwara arwaye kandi atahe yishimye.

Umukobwa wambaye isengeri y'umweru w'imisatsi myinshi ufite uburoso, arimo gukoresha asukura amenyo kugirango yirinde indwara zitandukanye zituruka kumwanda.

Umwana wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umuhondo, umweru n'umukara, ufite imisatsi myinshi, w'imibiri yombi, urimo kwitabwaho n'abaganga ku bijyanye n'ubuvuzi bw'amenyo.

Umwana urimo guhabwa serivisi z'ubuvuzi bw'amenyo, uri kumwe n'umuganga wabihuguriwe wambaye imyenda y'umweru, ubururu ndetse n'umuhondo.

Urujya n'uruza rw'abana bambaye imyenda myiza yiganjemo amabara y'umweru ,umukara ,ubururu bafite igikoresho gikoreshwa mugusukura amenyo bishimye kandi banezerewe.

Icyumba kinini kirimo umuntu wambaye imyenda y'umukara, ufite uburoso bukoreshwa mu gusukura amenyo, uri mu cyumba kirimo amabara y'umuhondo, umutuku ndetse n'umukara.

Umugore ufite imisatsi myinshi w'imibiri yombi, uri gufashwa n'umuganga ku buvuzi bw'amenyo, ubona ko yishimye kandi anezerewe.

Umugore ufite imisatsi myinshi w'imibiri yombi, ufite uburoso bw'amenyo ubona ko arimo gukora isuku, uri mu cyumba kinini gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kandi nziza.

Icyumba kinini kirimo umuganga ndetse n'umurwayi, wambaye imyenda y'umukara n'umweru ndetse n'ubururu, babona ko bishimye kandi banezerewe.

Umugabo uri kumwe n'umwana, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, icyatsi ndetse n'inkweto nziza, bari mu myitozo ngororamubiri bishimye.

Icyumba kinini cyateraniyemo abantu baturutse mu bice impande n'impande, bambaye imyenda y'umweru n'ubururu, bafite imiti ivura indwara zitandukanye, aho bayikoresha ndetse birinda no kwandura indwara za hato na hato.

Umusaza w'imvi nyinshi, wambaye umupira w'ubururu n'umweru, ubona ko ari guhabwa serivisi nziza z'ubuvuzi, maze ataha yishimye kandi anezerewe.

Icyumba kinini kirimo umubyeyi uri mumyitozo ngororamubiri, wambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu n'umweru uri mucyumba kinini kandi gikorerwamo ibikorwa bitandukanye.

Umusaza wambaye imyenda y'umuhondo n'ubururu, uri kumwe n'umugore we, wambaye ikoti ryiza ndetse n'umupira wiganjemo amabara y'umweru n'umukara.

Umusaza wambaye indorerwamo z'amaso ufite imisatsi myinshi, wambaye umupira w'umweru; urimo gufashwa n'umuganga ndetse amugira inama y'ibyo yakora kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Icyumba kinini kirimo umubyeyi wambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu, ufite igikoresho cy'imyitozo ngororamubiri kugira ngo asuzumwe, harebwe icyateye indwara afite.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, bari mu myitozo ngororamubiri, iruhande rwabo hari ibiti binini, ndetse n'ibyatsi bigezweho, bari mu myitozo kugira ngo barwanye indwara zituruka ku mubyibuho ukabije.

Umuganga wambaye agapfukamunwa n'indorerwamo z'amaso, wambaye n'imyenda y'umutuku uri kwita ku mukecuru, ubona ko ababaye kandi akeneye ubufasha.

Umusaza wambaye imyenda y'umweru, ufite imisatsi myinshi, wambaye indorerwamo z'amaso ubona ko ari mu myitozo ngororamubiri yishimye.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho abantu baturutse mu bice impande n'impande, bahurira bagahabwa ubufasha ndetse bakanagirwa n'inama y'uburyo bakirinda indwara zitandukanye.

Umukecuru uri mu myitozo ngororamubiri ufite imisatsi myinshi, wambaye imyenda yiganjemo umweru, umukara, umutuku ndetse ubona ko yishimye kandi afite akanyamuneza.

Umukecuru wambaye imyenda y'umweru n'ubururu ufite indangururamajwi yiganjemo ibara ry'umutuku n'umuhondo, aho avuga ikibazo cye akibwira abayobozi kugira ngo afashwe.

Umusaza wambaye imyenda yiganjemo ubururu, umweru, urimo kwitabwaho n'umuganga kugira ngo amusuzume, arebe uburwayi afite.

Icyumba kinini kirimo abana n'abakecuru, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umutuku, umweru, umukara, umuhondo ndetse n'ubururu.

Inyubako nini iteraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye, ari bo abagabo, abagore ndetse n'abasaza, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umutuku ndetse n'umukara.

Icyumba kinini cyateraniyemo abagabo ,abagore n’abana bambaye imyenda y’umweru ,umutuku ,ubururu ndetse n'umuhondo ubona ko bishimye kandi banezerewe.

Inyubako nini itangirwamo serivisi zitandukanye, iz'ubuvuzi ndetse n'izindi, aho abarwayi baturutse mu bice bitandukanye, bafashwa kandi bagataha bishimye.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, aho abantu baturutse mu bice impande n'impande bahurira, bagasabana ndetse bakishimira ibyiza bagezweho.

Urujya n'uruza rw'abantu, baturutse mu bice bitandukanye, biganjemo abagore, abakobwa, ndetse n'abakecuru, bambaye imyenda y'umuhondo, umweru, n'umukara.

Icyumba kinini, cyateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda, umukara, umweru ndetse bafite ibikombe byiza kandi bigezweho.

Urujya n'uruza rw'ababyeyi bavuye mu myitozo ngororamubiri, bambaye imyenda y'umukara, ubururu, ndetse bafite imisatsi myinshi, aho barimo kurwanya indwara zituruka ku mubyibuho ukabije.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho abantu baturutse mu bice bitandukanye bahurira bagahabwa ubufasha ku bijyanye n'indwara barwaye ndetse bakanagirwa inama y'imiti uko bayifata bitewe n'uburwayi bafite.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, biganjemo abagabo, abagore, ndetse n'abasaza, bambaye imyenda itukura, ubururu, ndetse n'umuhondo.

Icyumba kinini kirimo umusaza wambaye indorerwamo z'amaso, umupira w'ubururu ndetse n'ikoti ry'umweru, ubona ko yishimye kandi anezerewe.

Icyumba kinini cyateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye harimo abarwayi kugira ngo bafashwe kandi bagirwe inama y'ibyo bakora kugira ngo bakire.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye biganjemo abarwayi n'abaganga, hamwe n'abayobozi kugira ngo bige ku bibazo bitandukanye ndetse n'uburyo byakemuka.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, biganjemo abagore, abagabo n'abasore, bambaye imyenda y'ibara ry'ubururu, umukara n'umweru, ubona ko bari mu myitozo ngororamubiri.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye mu nyubako nini, yiganjemo amabara y'umweru ndetse n'umuhondo aho biga ku bibazo bitandukanye ndetse hanarebwa uburyo byakemuka.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda myiza yiganjemo amabara y'umweru, umuhondo, umukara ndetse n'ubururu, bari mu cyumba kinini kandi cyiza.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye, bahuye baje gusaba serivisi y'ubuvuzi, aho abaforomo ndetse n'abaganga, babafasha ndetse bakabaha n'imiti banywera mu rugo.

Icyumba kinini cyateraniyemo umugabo n'umugore aho baganira ndetse bungurana ibitekerezo kugira ngo bubake umubano wabo kugira ngo babeho bishimye.

Inyubako nini yahuriwemo n'abantu baturutse mu bice bitandukanye, harimo umukecuru urimo guhabwa ubufasha ndetse n'imiti kugira ngo akire indwara bamusanganye.

Abakobwa babiri bavuye mu myitozo ngororamubiri, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara n'umweru, umwe muri bo yambaye ingofero itukura, ubona ko bishimye kandi banezerewe.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, biganjemo abagabo, abagore n'abana, bishimye kandi banezerewe, bambaye imyenda yiganjemo umweru, umukara n'ubururu.

Icyumba kinini gikorerwamo ibikorwa bitandukanye, cyiganjemo umugabo n'umugore, bambaye imyenda myiza yiganjemo amabara y'umutuku, umweru ndetse n'umukara.

Icyumba kinini cyateraniyemo umukobwa n'umubyeyi we, bambaye imyenda yiganjemo umuhondo, ubururu, umukara ndetse ubona ko bishimye.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, bahurijwe hamwe n'ikintu kimwe ndetse ubona ko bishimye kandi banezerewe bityo bikabafasha kongera iminsi yo kubaho.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye ahantu baganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye biganjemo abagore ndetse n'abakecuru bafite imisatsi myinshi kandi isa neza.

Icyumba kinini cyateraniyemo abantu baturutse mu bice, impande n'impande, baje kwaka serivisi y'ubuvuzi ndetse bagahabwa n'ubujyanama ku buryo bakirinda izo ndwara.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kirimo umuganga ndetse n'umusaza w'imisatsi myinshi, wambaye imyenda y'umuhondo, umweru ndetse n'ubururu.

Inyubako nini itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho abantu baturutse mu bice impande n'impande, bahabwa ubufasha ndetse n'ubujyanama ku buryo bakirinda ndetse bagakumira indwara.

Icyumba kinini gikorerwamo ubuvuzi butandukanye, ubw'umutima, ibihaha ndetse n'impyiko, aho abantu baturutse mu bice impande n'impande baza bagahabwa ubufasha.

icyumba kinini cyateraniyemo umusaza n'umugore, bambaye imyenda yiganjemo ubururu, umutuku, wambaye indorerwamo z'amaso ndetse bafite n'imisatsi myinshi.

Umukecuru wambaye indorerwamo z'amaso, ufite imisatsi myinshi, wambaye imyenda yiganjemo umuhondo ndetse n'umukara, ufite ibinini mu ntoki, agiye kubyifashisha kugira ngo yivure indwara yasanganywe na muganga.

Icyumba kinini kirimo abantu baturutse mu bice bitandukanye, cyiganjemo amabara y'umutuku umuhondo ndetse n'umweru, aho abantu baturutse mu bice bitandukanye, bagezwaho insanganyamatsiko y'umunsi.

Urutonde rw'abayobozi batandukanye b'inzego z'ibanze, aho batorwa kugira ngo bafashe abaturage ndetse babahe serivisi nziza kandi zinoze.

Icyumba cyahuriyemo abayobozi batandukanye, bambaye imyenda yiganjemo umweru, umukara n'ubururu, biga ku bibazo bitandukanye ndetse biraje ishinga abaturage.

Umubyeyi ufite imisatsi myinshi wambaye indorerwamo z'amaso urimo gutanga imbwirwaruhame ku nsanganyamatsiko yabahurije hamwe uwo munsi.

Icyumba kinini cyateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye, biga ku bibazo biri muri sosiyete, bambaye imyenda myiza yiganje amabara y'umukara, umutuku ndetse n'ubururu.

Ihuriro ry'abayobozi baturutse mu bice bitandukanye, biganjemo abakecuru, abasaza, ndetse n'urubyiruko, bambaye imyenda y'umweru, umukara, ubururu n'umuhondo.

Icyumba kinini cyateraniyemo abayobozi baturutse mu bice bitandukanye, aho biga ku nsanganyamatsiko zabahurije hamwe n'uburyo zashyirwa mu bikorwa kugira ngo iterambere rirambye rigerweho.

Umwana wambaye imyenda yiganjemo amabara y'icyatsi n'umweru, ufite imisatsi myinshi aho ahabwa ubufasha ndetse anagirwa inama y'uburyo yakwitwara.

Icyumba kinini kirimo umugabo n'umugore, bahagaze imbere y'ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, iruhande rwabo hari indabyo nziza ndetse ubona ko bishimye.

Icyumba kinini cyahuriyemo abayobozi, baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara, umuhondo, ubururu ndetse n'umweru.

Inyubako nini yateraniyemo abayobozi baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda y'imyeru, bafite imisatsi myinshi, kandi bishimye banezerewe.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye bambaye imyenda y'umweru, ubururu ndetse n'umukara, aho bahabwa serivisi nziza kandi inoze bagataha bishimye.

Icyumba kinini kirimo abaganga bavura indwara zitandukanye aho abafasha abarwayi ndetse bagendeye ku bimenyetso bagaragaje bityo bikabafasha kubakurikirana kandi bari mu rugo.

Icyumba kinini kirimo umugore wambaye, umupira w'umweru ndetse ufite imisatsi myinshi, ubona ko yaje gusaka serivisi y'ubuvuzi ndetse akayihabwa maze agataha yishimye.

Umugore wambaye imyenda y'umukara, umuhondo n'umutuku uri guhabwa serivisi y'ubuvuzi ubona ko yishimye kuko yahawe serivisi nziza.

Umukobwa ufite imisatsi myiza y'umukara wambaye imyenda yiganjemo umuhondo, ubururu, wambaye amaherena ku gutwi ubona ko yishimye kandi anezerewe.

Inyubako nini yateraniyemo abayobozi baturutse mu bice bitandukanye, biganjemo abakobwa, abasore ndetse n'ababyeyi bakuru, bambaye imyenda y'umweru, umukara n'umuhondo.

Urujya n'uruza rw'abantu baje ku ivuriro, aho basuzumwa indwara zitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, icyatsi ndetse n'umukara.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye bahuriye mu nama ndetse biga ku bibazo bitandukanye biraje ishinga abaturage hanashakwa uburyo byakemuka.

Icyumba kinini cyateraniyemo abayobozi b'inzego zitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo umukara, umweru n'umuhondo, aho biga ku bibazo bitandukanye ndetse n'uburyo byakemuka.

Inyubako nini yateraniyemo abantu batandukanye, biganjemo urubyiruko ndetse n'abayobozi bakuru aho baganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye ndetse bagataha bishimye.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, aho abantu baturutse mu bice bitandukanye bahurira, bagahabwa ubufasha bitewe n'indwara barwaye ndetse bakagirwa n'inama y'uburyo bakirinda.

Inyubako nini ikorerwamo ubuvuzi butandukanye, irimo ibyumba byinshi, aho abarwayi baturutse mu bice bitandukanye bahabwa serivisi hagendewe ku bimenyetso bagaragaje.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, yiganjemo amabara y'umweru, umukara, isakaje amabati y'ubururu, abantu batandukanye bahuriramo ndetse bakajya inama ku bikorwa bitandukanye.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubuvuzi, aho abarwayi baturutse mu bice bitandukanye by'Igihugu bahurira, ndetse bagasuzumwa indwara, bagahabwa ndetse n'imiti.

Inyubako nini yiganjemo ibikoresho by'ikoranabuhanga, yiganjemo amabara y'umuhondo, umweru ndetse n'intebe nziza n'ibitanda bya kinyamwuga.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho bitandukanye, ibitanda, intebe, ameza, gikorerwamo ubuvuzi butandukanye, aho abantu baturuka mu bice impande n'impande, baje gushaka serivisi y'ubuvuzi.

Icyumba kinini cyateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye, aho baherebwa serivisi nziza y'ubuvuzi kandi inoze, biganjemo amabara y'umweru ndetse n'ubururu.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'umweru n'umukara, irimo ibikoresho bitandukanye, ameza, intebe. Ifite ibyumba byiza kandi bikodeshwa, kugira ngo bitange umusaruro.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'umweru, ubururu ndetse n'umuhondo, ikorerwamo ibikorwa bitandukanye ndetse itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho abarwayi baturutse mu bice, impande n'impande, bafashwa kandi bagataha bishimye.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, harimo ubucuruzi, ubuvuz,i yiganjemo amabara y'umweruru, umukara, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'umutuku, umweru ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, harimo inama z'abayobozi baturutse mu nzego zitandukanye kugira ngo bungurane ibitekerezo.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi cyiganjemo ibikoresho by'ikoranabuhanga, harimo amabara y'umutuku, umweru ndetse n'umukara.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga nk'ameza mudasobwa ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa kugira ngo hatangwe serivisi nziza z'ubuvuzi.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'umuhondo, umukara, umweru, iruhande rwayo hahagaze abagabo bateganya guhurira muri izo nzu ndetse biga ku nsanganyamatsiko zitandukanye.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'umuhondo, umutuku n'umukara, iruhande rwayo hateye ibiti byiza kandi binini, byifashishwa mu gukora intebe zigezweho.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'umuhondo, umweru, umukara, iruhande rwayo haparitse imodoka nziza kandi zigezweho.

Inyubako nini irimo ibikoresho bitandukanye byiganjemo amabara y'umuhondo, umweru n'umukara, ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubuvuzi, aho abantu baturutse mu bice bitandukanye bahurira bagahabwa ubufasha.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, biganjemo abasore ndetse n'inkumi, bahagaze imbere y'inyubako nini isakaje amabati y'umutuku ndetse isize irangi ry'umweru.

Inyubako nini isakaje amabati y'ubururu, yiganjemo amabara y'umweru, umuhondo n'umutuku iruhande rwayo hateye indabo nziza kandi zigezweho.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubuvuzi, irimo icyumba kinini, aho abarwayi barembye bahurira, bagafashwa byihuse kugira ngo bakire.

Icyumba kinini cyiganjemo amabara y'umweru, umuhondo n'umutuku, kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga gitangirwamo serivisi nziza kandi zinoze, harimo iz'ubuganga ndetse n'ubucuruzi.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'umweru, ubururu, umuhondo, ikorerwamo ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse bigezweho kugira bifashe abantu mu buzima bwa buri munsi.

Icyumba kinini gikorerwamo ibikorwa bitandukanye nk'ubuvuzi, ubucuruzi ndetse n'amahugurwa atandukanye, aho abantu baturutse mu bice, impande n'impande, bahurira bakiga ku nsanganyamatsiko zitandukanye.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi, aho abaturage baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu, bahurira bagahabwa serivisi nziza ndetse bakanafashwa by'umwihariko.

Icyumba kinini gitangirwamo ubuvuzi butandukanye, aho abarwayi baturutse mu bice bitandukanye, bafashwa n'abaganga babigize umwuga kugira ngo bakire kandi batahe bameze neza.

Inyubako nini yiganjemo ibikoresho birimo amabara y'umuhondo, umukara n'umweru, isakaje amabati atukura, aho abantu baturutse ibice bitandukanye bahurira bakaganira ndetse bakungurana ibitekerezo.

Inyubako nini isakaje amabati y'icyatsi irimo umuhanda wa kaburimbo, hakikijwe n'ibiti byiza ndetse n'ibyatsi bigezweho harangwa n'isuku.

Umusore wambaye imyenda y'umweru ndetse n'ubururu n'umukara, wicaye mu giti kinini ubona ko yishimye kandi anezerewe.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'umuhondo, umukara n'umweru, ikikijwe n'ibiti ndetse n'indabo nziza, ubona ko ikorerwamo ibikorwa bitandukanye kandi bifitiye abantu akamaro.

Ibitaro bikuru bya Kabgayi, bikikijwe n'ishyamba rinini kandi bisakaje amabati atukura, abona ko biteye amatsiko kandi bishimishije.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye nk'inama ndetse n'ubucuruzi yiganjemo amabara y'umweru, umukara, umuhondo, ubururu ndetse n'icyatsi

Icyumba kinini gikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubuvuzi cyiganjemo amabara y'ubururu, umweru n'umuhondo kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga nka televiziyo ndetse na mudasobwa.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi zitandukanye haba iz'ubuvuzi ndetse n'ubucuruzi, inyubako yiganjemo amabara y'umweru, umukara ndetse n'umuhondo.

Inyubako nini isakaje amabati y'ubururu, yiganjemo amabara y'umuhondo, ubururu ndetse n'umukara aho abantu baturutse mu bice bitandukanye, bahurira ndetse bakiga ku nsanganyamatsiko zitandukanye.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga higanjemo intebe, utubati, ameza harimo n'ibindi bikoresho byifashishwa mu buvuzi.

Inyubako nini kandi nziza, zikikijwe n'ibiti, indabo ndetse n'ibyatsi bigezweho, zisakaje amabati y'ubururu ndetse n'umutuku.

Icyumba kinini kirimo umuganga ndetse n'umurwayi aho abantu baturutse impande n'impande bahurira, bagahabwa ubufasha bujyanye n'indwara bafite ndetse banagirwa n'inama.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, yiganjemo amabara y'umuhondo, umweru umukara n'ubururu, aho abantu baturutse mu bice impande n'impande, bafashwa ndetse bagahabwa serivisi nziza.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'umutuku, umuhondo, umukara, iruhande rwayo haparitse imodoka nziza ndetse hakikijwe nibiti binini kandi byiza.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'umweru, umukara n'umuhondo, ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, iby'ubuvuzi, ubucuruzi ndetse n'ibindi.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, biganjemo ababyeyi bagiye kubyara, aho bahabwa serivisi nziza kandi inoze bityo bigatuma bazagaruka.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi, aho abarwayi baturutse mu bice bitandukanye bahabwa serivisi ndetse n'ubujyanama, bityo bikabafasha gukira neza kandi bagahabwa ubufasha bw'ibanze.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, biganjemo abagabo, abagore ndetse n'urubyiruko, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umutuku, umweru, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, cyiganjemo amabara y'umweru, umukara, gisakaje amabati meza, kandi agezweho.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye bagenda mu muhanda wa kaburimbo, wiganjemo amabara y'umweru n'umukara, iruhande rwabo hateye ibiti byiza kandi bigezweho.

Inyubako nini zikorerwamo ubuvuzi butandukanye, ubw'amaso, umutima, ibihaha ndetse hanatangwa serivisi nziza kandi inoze.

Icyumba kinini cyiganjemo abagabo, abagore, bambaye imyenda y'ubururu, umweru umukara, aho bahabwa serivisi z'ubuvuzi kandi zinoze.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'umuhondo, umweru, umukara, ikorerwamo ibikorwa bitandukanye nk'ubucuruzi, ubuganga ndetse n'ubuvuzi bw'amenyo.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, byiganjemo amabara y'ubururu, umweru, umuhondo, aho abantu baturutse mu bice bitandukanye baherebwa serivisi z'ubuvuzi.

Inyubako nini itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, yiganjemo amabara y'umweru n'umukara, yubakishije ibirahure byiza, iruhande rwayo hateye indabo ndetse n'ibiti bigezweho.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'umweru, umukara n'ubururu, ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi, ubuvuzi ndetse n'inama zaturutse mu nzego z'ibanze.

Inyubako nini irimo ibikoresho bitandukanye, byiganjemo ameza, intebe, mudasobwa, mu cyumba kinini kirimo amabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'umukara.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, kirimo ibikoresho bitandukanye, ameza, intebe, utubati, byiganjemo amabara y'umweru n'ubururu n'umukara.

Inyubako nini yiganjemo ibara ry'umweru, iruhande rwayo hateye ibiti byiza kandi bitoshye ubona ko bigabanya umuvuduko w'umuyaga, ndetse bigatuma abaturage babikoresha neza.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'ubururu n'umweru, ifite urugi rw'umutuku, ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, harimo ubucuruzi, ubuvuzi ndetse n'ibindi.

Icyumba kinini kirimo imiti itandukanye, harimo ibinini ndetse n'indi miti ikoreshwa kugira ngo abarwayi babone serivise nziza kandi inoze.

Inyubako nini isakaje amabati atukura, yiganjemo amabara y'umuhondo, umukara ndetse yubakishije ibirahuri byiza kandi bikomeye, iruhande rwayo hateye indabo nziza.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, ari byo intebe, televiziyo, utubati, ameza, kirimo amabara y'umweru ndetse n'umukara.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho byinshi byifashishwa mu buvuzi, cyiganjemo amabara y'umuhondo, umweru ndetse n'umukara, aho abarwayi baza bagafashwa bagataha bishimye.

Inyubako nini ikorerwamo ubucuruzi butandukanye nk'ubucuruzi, ubuvuzi ndetse n'izindi serivisi zitandukanye, aho abantu baturutse mu bice impande n'impande baherebwa ubufasha kandi bagataha bishimye.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'umuhondo, umukara n'ubururu, irimo ibitanda binini byifashishwa n'abarwayi kugira ngo baruhuke ndetse bakire vuba.

Inyubako nini isakaje amabati atukura, yiganjemo amabara y'umuhondo, iruhande rwayo hateye ibiti byiza, ndetse n'ibyatsi bigezweho.

Icyumba kinini gikorerwamo ubuvuzi butandukanye, cyiganjemo ibikoresho by'ikoranabuhanga, televiziyo, mudasobwa, ndetse n'ameza manini, ateretseho ibikoresho.

Icyumba kinini cyateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye, harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, aho abarwayi bafashwa kandi bakagirwa inama, hagendewe ku bimenyetso bagaragaje.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, cyiganjemo ibikoresho by'ikoranabuhanga, aho abarwayi bahurira ndetse bagafashwa, hagendewe ku bimenyetso bagaragaje.

Icyumba kinini cyiganjemo amabara y'ubururu, icyatsi, umweru n'umukara, gikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubuvuzi, aho abarwayi baturutse mu bice, impande n'impande bahurira, bagahabwa serivisi nziza.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga cyiganjemo intebe nziza n'ameza n'utubati, aho abantu baherebwa serivisi nziza kandi inoze.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'umweru, ubururu, umuhondo, ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, ubucuruzi, ubuvuzi, inama zitandukanye, ndetse n'ibindi.

Inyubako nini ikorerwamo ubuvuzi butandukanye, aho abantu baturutse mu bice impande n'impande, bahabwa ubufasha ndetse n'ubujyanama ku buryo bakirinda ndetse bagakumira indwara zitandukanye.

Inyubako nini, ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, nk'ubucuruzi bw'imiti, aho abaturage baturutse mu bice impande n' impande, baza bagahabwa serivisi, bitewe n'ibimenyetso by'uburwayi bafite.

Icyumba kinini gikorerwamo serivisi z'ubuvuzi, kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byiganjemo amabara y'umweru ndetse n'umuhondo, aho abarwayi baza bagahabwa serivisi nziza.

Inyubako nini isakaje amabati atukura, yubakishije ibirahuri byiza byiganjemo amabara y'umweru, umukara ndetse n'umuhondo, iruhande rwayo haparitse imodoka nziza.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubuvuzi, yicayemo umugabo wambaye imyenda y'umukara ndetse n'ikabutura y'umweru, ubona ko ategereje serivise y'ubuvuzi.

Icyumba kinini cyateraniyemo abantu batandukanye, bambaye imyenda y'ubururu, umweru, umukara ikorerwamo ibikorwa bitandukanye nk'iby'ubucuruzi ndetse n'ubuvuzi.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'umweru n'umukara, irimo ibikoresho byifashishwa n'abaganga kugira ngo bite ku barwayi maze batahe bishimye kandi banezerewe.

Inyubako nini ikorerwamo, ibikorwa bitandukanye yiganjemo amabara y'umuhondo, umweru ndetse n'ubururu aho abantu baturutse mu bice impande n'impande bahurira bagakora imyitozo.

Inyubako nini ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, aho abantu baturutse mu bice impande n'impande, baza gushaka ibicuruzwa badafite yiganjemo amabara y'umweru ndetse irimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'umweru, umukara n'umuhondo, ikorerwamo ibikorwa bitandukanye nk'iby'ubuvuzi, ubucuruzi ndetse hagatangirwamo n'izindi serivisi nziza.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye, aho baje ku ivuriro ndetse bagahabwa ubufasha, harimo ubuvuzi bw'ibanze, ndetse bagahabwa n'imiti bajyana mu rugo.

Icyumba kinini cyiganjemo amabara y'umukara n'umweru, kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, aho abantu baturutse mu bice bitandukanye, baza kwaka serivisi y'ubuvuzi, ndetse bagahabwa ubufasha.

Inyubako nini itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, yiganjemo urubyiruko, abagabo ndetse n'abagore, baturutse mu bice bitandukanye kugira ngo bahabwe serivisi ku burwayi bafite.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, harimo ibitanda, intebe, ameza, aho abarwayi baturutse mu bice impande n'impande, bafashwa ndetse bakagirwa n'inama ku ndwara barwaye.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi, aho abantu baturuka hirya no hino mu gihugu, bakaza kwaka serivise, maze bayibona bagataha bishimye, kandi banezerewe.

Inyubako nini yahuriyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye baje kwaka serivisi y'ubuvuzi, mu nyubako nini irimo amarange yiganjemo umuhondo, umweru n'umukara.

Inyubako nini irimo ibikoresho bitandukanye, intebe, ameza, tereviziyo, utubati, ikikijwe n'indabo nziza kandi zigezweho.

Inyubako nini ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, harimo ubuvuzi ndetse n'indi miti itangwa mu nzu y'ubucuruzi bw'imiti, aho abantu bayikura ndetse bakayigura bishimye.

Inyubako nini isakaje amabati atukura, iri iuhande rwishyamba rinini kandi iruhande rwayo hateye indabo nziza kandi zigezweho, iruhande rwayo hari umuhanda wa kaburimbo.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'umweru, umuhondo n'umukara isakaje amabati atukura, iruhande rwayo hateye ibiti byiza kandi bigezweho.

Inyubako nini itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho abarwayi baturutse mu bice bitandukanye bateranira bagahabwa ubufasha ndetse n'ubujyanama ku bijyanye n'indwara basanganywe.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'umutuku, ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, iruhande rwayo haparitse imodoka nziza ziganjemo amabara y'umweru, umukara ndetse n'ubururu.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi, ubuvuzi ndetse n'ibindi, aho abayobozi ndetse n'abaturage baturutse mu bice bitandukanye bahererwa serivisi nziza kandi inoze.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, biganjemo abagore, abagabo ndetse n'abakecuru, bambaye imyenda y'ubururu, umutuku, umuhondo ndetse n'umukara.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, cyiganjemo ibitanda, ameza, aho abantu baturutse mu bice impande n'impande, bafashwa kandi bagataha bishimye.

Abagabo n'abagore bahuriye mu nama ubona ko bafite byinshi bigaho kandi bifitiye igihugu akamaro, bityo bigatuma hatangwa umusaruro mwiza.

Inyubako nini itangirwamo serivise z'ubuvuzi irimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, byifashishwa mu kuvura abarwayi, irimo amabara y'umweru, umukara ndetse n'umutuku.

Umuganga wambaye indererwamu z'amaso ufite itaburiya y'umweru ndetse n'ishati y'umukara, aho ari guha serivisi abarwayi agendeye ku bimenyetso bagaragaje.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'umweru, umukara, iruhande rwayo hateye ibiti byiza ndetse n'ibyatsi bitoshye, aho abantu baturutse mu bice impande n'impande bahurira ndetse bakaganira bungurana ibitekerezo.

Inyubako nini irimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, aho abarwayi baturutse mu bice bitandukanye baza bagahabwa serivisi nziza kandi inoze hagendewe ku bimenyetso bagaragaje.

Icyumba kinini gitangirwamo serivise z'ubuvuzi cyiganjemo amabara y'umuhondo, umweru n'ubururu, aho abarwayi baturutse mu bice impande n'impande baza bagafashwa kandi bagataha bishimye.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byiganjemo ibitanda byiza ndetse n'amabara y'umweru n'ubururu, ubona ko hakorerwamo ibikorwa byiza kandi bitandukanye.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'umweru n'umuhondo, irimo ibyumba byinshi bitandukanye, bikorerwamo ibikorwa nk'ubucuruzi, ubuvuzi, ndetse n'ubujyanama ku ndwara zitandukanye.

Icyumba kinini gikorerwamo ibikorwa bitandukanye, cyiganjemo amabara y'umweru n'ubururu, aho abantu baturutse mu bice bitandukanye, bahurira ndetse bagahabwa ubufasha.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, ubucuruzi, ubuvuzi, ndetse n'ibindi, aho abantu baturutse mu bice impande n'impande bahurira, bagahabwa serivisi nziza.

Icyumba kinini kirimo abarwayi batandukanye. Cyiganjemo amabara y'umweru, umuhondo, ubururu. Kirimo ibitanda binini kandi bikomeye

Inyubako nini irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu myitozo ngororamubiri, harimo ameza intebe ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, iby'ubuvuzi, ubucuruzi ndetse n'inama zitandukanye zihuza abantu baturutse mu bice impande n'impande.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga nka televiziyo, mudasobwa ndetse n'ibindi, higanjemo amabara y'umweru ndetse n'umukara.

Inyubako nini irimo ibyumba bitandukanye, bikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi, harimo ibikoresho nk'intebe, ameza, utubati, televiziyo ndetse n'ibindi.

Inyubako zitandukanye zisakaje amabati atukura, ziganjemo amabara y'umuhondo, umukara n'umweru, iruhande rwayo hari ishyamba rinini kandi rya kinyamwuga.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, aho abantu baturutse mu bice impande n'impande baza kugura ibikoresho bakeneye kandi bakagabanirizwa ibiciro.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'umuhondo, irimo ibirahuri byiza ndetse ikorerwamo ibikorwa bitandukanye nk'ubucuruzi, ubuvuzi, aho abantu baturutse mu bice bitandukanye bahurira, bagahabwa serivisi nziza.

Inyubako nini irimo ibyumba bitandukanye, byiganjemo amabara y'umweru, ubururu, icyatsi, ifite ibirahuri byiza kandi bigezweho.

Icyumba kirimo umurwayi n'umuganga, aho avuga ibibazo afite ndetse n'ibimenyetso agaragaza kugira ngo ahabwe imiti ndetse n'ubujyanama ku bijyanye n'indwara bamusanganye.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bifasha abarwayi, cyiganjemo amabara y'umweru, umuhondo n'ubururu, aho abantu baturutse mu bice impande n'impande, baza bagahabwa serivisi nziza kandi inoze.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, kirimo umurwayi wambaye imyenda yiganjemo ibara ry'ubururu n'umweru, uri gufashwa n'umuganga wabigize umwuga.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu buvuzi, aho abantu baturutse mu bicaye impande n'impande bahabwa serivisi nziza kandi inoze.

Umusore wambaye imyenda itukura ndetse n'ikabutura y'umukara, ubona ko afite ikibazo kandi ajyanywe ku ivuriro kugira ngo ahabwe ubufasha.

Icyumba kinini gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, cyiganjemo abantu bambaye imyenda y'umweru, umutuku, umukara n'umuhondo, aho bahabwa serivisi nziza bagataha bishimye.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho bitandukanye, bikoreshwa mu buvuzi, cyiganjemo amabara y'umweru, umuhondo, ubururu, kirimo abavuzi batandukanye.

Ni umukobwa wambaye imyenda yiganjemo ibara ry'icyatsi n'inkweto nziza, w'imibiri yombi uri gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo yirinde indwara zikomoka ku mubyibuho ukabije.

Inyubako nini irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi byiganjemo amabara y'umweru ndetse n'umukara aho abarwayi baturutse mu bice bitandukanye bahurira bagahabwa serivisi nziza.

Umugabo uvuye mu myitozo ngororamubiri, wambaye imyenda y'umweru n'ubururu, ufite ikibazo cy'imvune mu ivi, aho akeneye umuganga umwitaho kandi umuha serivisi nziza.

Imiti itandukanye yiganjemo ibinini n'indi miti ikoreshwa mu buvuzi, aho abarwayi baturutse mu bice impande n'impande baza bagahabwa serivisi nziza ndetse bagafashwa bitewe n'ibimenyetso bagaragaje.

Icyumba kinini gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, aho abantu bahurira bagakora imyitozo kugira ngo birinde indwara zituruka ku mubyibuho ukabije ndetse bagahabwa n'ubujyanama ku bijyanye n'imyitozo ndetse no kuba bakirinda indwara.

Umukobwa wambaye imyenda y'umukara, ufite imisatsi myinshi, uri mu myitozo ngororamubiri kugira ngo yirinde indwara zirimo diyabete n'umubyibuho ukabije.

Icyumba kinini kirimo abarwayi bahuriye kwa muganga, bambaye imyenda y'umweru, umukara n'umuhondo, aho basuzumwa indwara zitandukanye ndetse bagahabwa n'ubufasha bw'ibanze.

Icyumba kinini kirimo umuganga ufite ibikoresho byifashishwa mu buvuzi, icyumba cyiganjemo amabara y'umweru, ubururu ndetse n'umutuku.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kirimo umusore wakomeretse akaguru, umuganga arimo kumufasha bambaye imyenda yiganjemo umweru, ubururu ndetse n'ikinombe.

Inyubako nini, yateraniyemo abarwayi batandukanye, ubona ko baje kwa muganga kugira ngo bafashwe kandi bitabweho, bambaye imyenda y'umutuku ndetse n'umweru.

Umugabo wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara, umuhondo n'ubururu, uri mu myitozo ngororamubiri kugira ngo yirinde indwara zituruka ku mubyibuho ukabije.

Umusore ufite icupa ry'amazi mu ntoki, wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara, uvuye mu myitozo ngororamubiri kugira ngo yirinde indwara zituruka ku mubyibuho ukabije.

Igikapu kinini kirimo imiti itandukanye, harimo ibinini bivura umutwe ndetse n'indi miti ikoreshwa mu buvuzi kugira ngo abarwayi bahabwe ubufasha.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, harimo imyitozo ngororamubiri, ubucuruzi ndetse n'ubuvuzi, aho abantu baturutse mu bice impande n'impande bahurira, bagahabwa serivisi nziza.

Icyumba kinini giteraniyemo abantu baturutse mu bice, impande n'impande, higanjemo amabara y'ubururu n'umweru kugira ngo hatangwe serivisi nziza kandi inoze.

Umusore wambaye inkweto zirimo amabara y'umweru n'umukara, wambaye ikabutura nziza kandi igezweho, n'isaha nziza ku kaboko bityo bigatuma agaragara neza.

Icyumba kinini cyateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye, cyiganjemo amabara y'umweru, umukara, gikorerwamo imyitozo ngororamubiri kugira ngo birinde indwara zaturutse ku mubyibuho ukabije.

Icyumba kinini gikorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi butandukanye, ubw'umutwe, umutima, ibihaha, ndetse n'impyiko, aho abarwayi batandukanye, bavurirwa kandi bagahabwa ubujyanama bwiza.

Inyubako nini yateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye, biganjemo abarwayi ndetse aho abaganga babafasha kandi bakabaha serivisi nziza, bitewe n'ibimenyetso bagaragaje.

Imiti itandukanye yiganjemo ibinini, inshinge ndetse n'indi itandukanye, aho abarwayi baturutse impande n'impande bahurira, bagahabwa ubufasha ndetse bakagirwa n'inama.

Icyumba kinini gikorerwamo imyitozo ngororamubiri kugira ngo birinde indwara zituruka ku mu byibuho ukabije ndetse na diyabete, aho abantu baturutse mu bice impande n'impande, bahurira bagakora imyitozo ngororamubiri.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho abantu baturutse mu bice impande n'impande bahurira bagahabwa ubujyanama ndetse n'ubufasha kugira ngo bakomeze kwirinda.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga cyiganjemo amabara y'ubururu n'umweru n'umutuku, kifashishwa mu kuvura abarwayi barwaye indwara zitandukanye bagataha bishimye.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, harimo iby'imyitozo ngororamubiri, irimo umusore wambaye imyenda y'umukara n'umweru, uri mu myitozo kugira ngo arwanye indwara zituruka ku mubyibuho ukabije.

Inyubako nini yiganjemo ibikoresho by'ikoranabuhanga, aho abantu batandukanye bakorera imyitozo ndetse bagahabwa ubujyanama ku buryo bakirinda indwara zandura ndetse n'indwara zitandura.

Ni umukobwa wambaye ipantaro y'ubururu n'umupira w'icyatsi, uri mu myitozo ngororamubiri, aho yirinda indwara zituruka ku mubyibuho ukabije.

Umukobwa wicaye hasi mu byatsi uvuye mu myitozo ngororamubiri yambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, ubururu n'umuhondo.

Umugore ufite icupa ririmo amazi yo kunywa, wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, ubururu, ufite umusatsi mukeya, uri mu myitozo ngororamubiri.

Icyumba kinini kirimo umuganga ndetse n'umurwayi, aho ari guhabwa serivisi nziza agendeye ku bimenyetso umurwayi yagaragaje kandi akamuha imiti imufasha.

Icyumba kinini giteraniyemo abarwayi ndetse n'abaganga, aho babazwa ku bimenyetso bagaragaje kugira ngo babone guhabwa ubufasha bujyanye n'ibimenyetso bafite.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, baje mu myitozo ngororamubiri, bahagaze mu muhanda munini, iruhande rw'inyubako isakaje amabati, kandi ikeye.

Icyumba kinini gikorerwamo ubuvuzi butandukanye, kirimo umugabo wambaye impuzankano y'ubururu urimo gutanga serivisi ku murwayi ndetse amugira n'inama y'uburyo yakwirinda.

Umukobwa w'imisatsi myinshi, wambaye imyenda y'umukara ndetse w'imibiri yombi, iruhande rwe hateretse icupa ry'amazi, uri mu myitozo ngororamubiri kandi yirinda indwara, zituruka ku mubyibuho ukabije.

Igikapu kinini kirimo imiti itandukanye, harimo ibinini ndetse n'indi ikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye, aho abarwayi bafashwa hagendewe ku bimenyetso bagaragaje.

Ikibuga cy’umupira cyateraniyemo abantu baturutse mubice bitandukanye bambaye imyenda y’umuhondo, umweru n’umukara bambaye n'inkweto nini kandi zikoreshwa mugukina umupira w’amaguru.

Umusore munini, wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara, umweru, umuhondo, ufite icupa ry'amazi mu ntoki ndetse uvuye mu myitozo ngororamubiri.

Umukobwa wambaye umwenda utukura, ufite imisatsi myinshi, uri mu myitozo ngororamubiri, ubona ko yishimye kandi anezerewe, bityo bigatuma abasha kugira ubuzima bwiza, bitewe no gukora siporo mu buzima bwe bwa buri munsi.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga byifashishwa mu buvuzi byiganjemo amabara y’umutuku ,ubururu ,umweru ndetse n'umuhondo.

Urujya n'uruza rw'abantu bavuye mu myitozo ngororamubiri bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara ,ubururu bafite amazi yo kunywa mu ntoki kugira ngo birinde indwara zituruka ku mubyibuho ukabije.

Icyumba kinini cyateraniyemo umuganga ndetse n'umurwayi, aho asuzumwa ndetse hakarebwa icyateye uburwayi bwe nyuma agahabwa imiti.

Imiti itandukanye. Yiganjemo ibinini by'amoko atandukanye, ndetse aho abantu baturutse mu bice impande n'impande, baza kwisuzumisha ndetse bagahabwa imiti, bitewe n'uburwayi bafite.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'ubururu, umuhondo n'umweru, aho abantu baturutse mu bice bitandukanye bahurira, bagahabwa serivisi nziza kandi inoze, bagataha bishimye.

Umusore w'imibiri yombi ufite icupa ry'amazi mu ntoki, wambaye isengeri nziza irimo amabara y'umweru, umukara, ubona ko avuye mu myitozo ngororamubiri kandi yishimye.

Umusore wambaye isaha ku kuboko, ufite icupa rinini ry'amazi, wambaye umupira wiganjemo amabara y'ubururu ndetse n'umukara, ufite ubwanwa bwinshi.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi zitandukanye, zirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bifasha abarwayi, cyiganjemo amabara y'umweru, ubururu ndetse n'umuhondo.

Icyumba kinini, gikorerwamo ubuvuzi butandukanye, kirimo abantu bambaye imyenda yiganjemo, ubururu, umuhondo, ndetse n'umutuku, aho baherebwa serivisi nziza kandi inoze.

Umukobwa w'imibiri yombi ufite igikomere ku ivi, wambaye umupira w'umuhondo ndetse n'ikabutura nziza, wicaye ku gitanda kinini, ubona ko ategereje umuganga kugira ngo amuhe serivise nziza.

Umugore wambaye imyenda y'ibara ry'ubururu, ufite imisatsi myinshi w'imibiri yombi, uri mu myitozo ngororamubiri kugira ngo yirinde indwara zitandukanye, harimo n'umubyibuho ukabije.

Umukobwa ufite imisatsi myinshi w'imibiri yombi, uri mu myitozo ngororamubiri kugira ngo yirinde indwara zitandukanye zituruka ku mubyibuho ukabije ndetse ziterwa no kudakora imyitozo ngororamubiri.

Inyubako nini yateraniyemo abayobozi batandukanye bita ku burwayi bw'abantu, ubona ko bishimye kandi banezerewe, bambaye imyenda y'umweru ndetse n'ubururu.

Abakobwa babiri bavuye mu myitozo ngororamubiri, bambaye imyenda y'umukara ndetse n'umweru, bafite ibikapu binini kandi birimo ibikoresho bakoresha mu myitozo ngororamubiri.

Inyubako nini, yiganjemo amabara y'umweru, ubururu, n'umukara, ikorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi, aho abantu baturutse mu bice impande n'impande, bahabwa serivisi nziza, kandi inoze.

Umusore uri mu cyumba kinini gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, wambaye imyenda y'umukara, umweru n'inkweto nziza kandi ubona ko yishimye.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'umweru, umutuku, n'umuhondo, ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubuvuzi, aho abantu baturutse mu bice bitandukanye bivuriza.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, mudasobwa, tereviziyo, harimo umugabo wambaye ishati itukura ubona ko ari gutanga serivisi nziza kandi inoze.

Umusore wambaye imyenda y'umukara n'inkweto z'umukara, uvuye mu myitozo ngororamubiri, ubona ko yishimye kandi anezerewe bityo bikamufasha kwirinda indwara zituruka ku mubyibuho ukabije.

Ikirango kinini cyiganjemo amabara y'umweru, icyatsi, umukara, kiriho ibinini ndetse ubona ko kereka abantu icyerekezo cy'aho bagurira imiti.

Urutonde rw'imiti itandukanye, yiganjemo ibinini ndetse n'indi miti ikoreshwa mu buvuzi kugira ngo abarwayi babone serivisi nziza kandi inoze.

Imiti itandukanye yiganjemo ivura ibihaha, impyiko, diyabete, umutwe ndetse n'umutima, aho abantu baturutse bice, impande n'impande baza bagahabwa ubufasha.

Imiti y'amoko atandukanye ndetse ivura indwara zitandukanye, yiganjemo ibinini, isukika ndetse ivura indwara z'amoko yose.

Ibiti binini, byiganjemo inturusu, sipure ndetse n'ibindi bitandukanye, biteye mu byatsi byinshi kandi bifitiye abaturage akamaro.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye mu murima ukorerwamo ubuhinzi bw'inanasi, barebera hamwe icyakorwa kugira ngo babuteze imbere kandi bibafashe no guteza imbere igihugu.

Urutonde runini ruriho imiti ivura indwara zitandukanye, ibinini ndetse n'indi miti ikoreshwa mu buvuzi kugira ngo hirindwe indwara zitandukanye ndetse hanatangwa inama y'uburyo yakoreshwa.

Icyumba kinini cyiganjemo ibikoresho by'ikoranabuhanga, kirimo intebe, ameza ndetse kirimo amabara y'umuhondo, umukara ndetse n'ubururu.

Ibiti binini byiganjemo amabara y'icyatsi, biteye iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo, urimo amabara y'umuhondo, umweru n'umukara, aho abagenzi bagenda kandi bishimye.

Icyumba kinini kirimo imiti itandukanye, ari yo ibinini ndetse n'indi ikoreshwa, mu nshinge kugira ngo hasuzumwe indwara umurwayi afite.

Imiti ivura indwara zitandukanye, harimo umuravumba, igikakarubamba ndetse n'indi y'amoko atandukanye, aho abarwayi baza kwisuzumisha ndetse bagahabwa ubufasha.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, aho abantu baturutse mu bicaye impande n'impande, bahabwa serivisi ndetse bagataha bishimye banezerewe.

Icupa rinini ririmo amavuta akoreshwa mu kwisiga uruhu, aho abantu baturutse impande n'impande bayagura ndetse bakayakoresha neza kugira ngo bagire uruhu rwiza.

Urutonde rw'imiti itandukanye, harimo umuravumba, igikakarubamba, ndetse n'indi miti itandukanye, aho abarwayi baza bagafata imiti, ndetse bakahabwa bagendeye ku ndwara bagaragaje.

Imiti itandukanye iri mu macupa ubona ko igaragara nk'imiti ifite akamaro ndetse ivura abantu baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu.

Inyubako nini itangirwamo serivisi zitandukanye iz'ubuvuzi, ubucuruzi, ubujyanama, ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye aho abantu baturutse mu bice impande n'ipande bahabwa serivisi nziza kandi inoze.

Igiti kinini gikoreshwa mu buvuzi, kiri mu ibara ry'icyatsi, iruhande rwacyo hateye ibiti ndetse ubona ko ari byiza kandi bitoshye.